Aba ni abahinzi bakaba bari mu bihingwa byabo bari gutegura umuti wo gutera ibihingwa kugira ngo barwanye udukoko tubyangiza bityo byere neza kandi bigire umusaruro uhamye.

Umugabo wambaye wikwije akaba ahetse ipopu. Yambaye agapfukamunwa n'uturindantoki. Akaba ari gutera umuti indabyo, ziri hano imbere y'igipangu kugira ngo zikomeze kumera neza. Hari imikindo myiza cyane.

Uyu ni umuntu wambaye wikwije, yambaye uturindantoki, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero, ari gutera umuti mu bihingwa kugira ngo bikomeze kumera neza, mu Rwanda twagize amahirwe yo kugira inzobere mu by'ubuhinzi.

Umugabo wambaye wikwije yambaye isarubeti y'ubururu udupfukantoki tw'umweru akaba yambaye agapfukamunwa kariho n'amarineti ndetse n'ingofero, ari kuhira umuti mu myaka aho ibi biti bimeze neza cyane.

Aba ni abasore babiri bari kugenda batera umuti mu myaka. Imyaka iyo itangiye kugaragaza uburwayi, abahinzi bafata umwanzuro wo kuyivura. Aba basore nicyo gikorwa barimo.

Ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa habikwa amazi mu gihe cy'imvura. Aho bafata shitingi nini, maze bagaca ikinogo bakazishyiramo. Aya mazi iyo agezemo ntashobora kuvamo akoreshwa mu gihe imvura yabuze.

Aba ni abantu bari kudaha amazi mu kiyaga. Bigaragara neza cyane yuko bashobora kuba bari kuroba ndetse hari n'ubwato bukoze mu biti buri hafi aho. Ku nkombe z'uruzi hagiye hateyeho ibiti.

Ubuhinzi ndetse n'ubworozi mu Rwanda ni bimwe mu bikorwa bikorwa cyane. Aha rero hakaba habera ubworozi bw'amafi, aba bakaba bari kuyaroba. Barishimye cyane bitewe n'umusaruro wayo.

Abaturage baturiye ikiyaga baba babayeho bishimye kuko babona ibikomoka ku matungo nk'amafi, aha turi kuhabona amafi menshi cyane yarobwe mu kiyaga hari n'umugabo uri kongeramo ibitunga amafi.

Aha ni ahantu heza cyane hakorerwa ibijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, turi kubona umugabo wiyororeye amafi ahagaze imbere y'ibyuzi bye ndetse hakaba hari insina nziza, ibisheke ndetse n'inzu yororeramo andi matungo.

Ubuhinzi bwashyizwemo imbaraga mu Rwanda cyane ko ari ho hakomoka ibyokurya bitunze abanyarwanda ndetse tugasagurira n'abanyamahanga. Aha hari abamama bari kuhira imyaka yabo kugira ngo imere neza.

Abahinzi benshi bakunze gukora n'ubworozi bw'amafi. Ibi ni ibyuzi bibiri birimo amazi, aho amafi bigaragara ko agiye kwera kandi hakaba hari n'abantu bari kureba muri ibi byuzi.

Umumama uteze igitambaro gitukura yifubitse igitenge. Akaba afite amakawa ari gusarura ashyira mu gatete. Iki cyayi rero kirategurwa neza maze kikagurishwa gitunganyije.

Uyu ni umu mama uteze igitambaro, akaba yambaye ishati yayikunje, yambaye udukufi ku kuboko, akaba ari mu cyayi mo hagati, ari kugenda asarura icyeze ndetse ari kwitegereza neza ngo arebe.

Umuceri ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu gihingwa mu Rwanda kandi ugasanga abantu bagihinga bizihiwe, aha harimo umubyeyi uri kugenda azenguruka mu muceri we, ubona ko yishimiye umusaruro.

Abari gusarura igihingwa cy'umuceri. Igihingwa cy'umuceri ni bimwe mu bihingwa byageze mu Rwanda, maze abaturarwanda basobanukirwa ibyiza byawo, barawitaho, bakawuhinga neza maze na wo ukera.

Umusore mwiza cyane wambaye umupira w'imbeho ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Ahagaze mu cyayi gifite amabara meza cyane y'umuhondo ndetse n'icyatsi, akaba yishimye. Si ibyo gusa kuko hari n'ibiti birebire bivamo imbaho.

Abamama babiri bari mu cyayi. Abo bamama bahetse udutebo. Bari kugenda baca amababi y'icyayi bayajugunya muri icyo gitebo. Ni icyayi cyiza cyane cyeze, gifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umumama wambaye wikwije ahetse igitebo, akaba ari mu cyayi ahari kugenda asoroma amababi ayajugunya muri iki gitebo, igihingwa k'icyayi ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu gihingwa mu Rwanda.

Ubuhinzi bw'umuceri, ni bumwe mu buhinzi busigaye bukorwa n'abaturarwanda, ntibakiburya ari uko uvuye mu mahanga, kuko no mu gihugu usigaye uhera, ni abantu bane bari mu murima umwe, bari kugenda batera icyo gihingwa.

Igihingwa k'ikawa ni bimwe mu bihingwa bikunzwe muri iki gihugu cyane ko bisigaye bihingwa na bake, hakaba hari umuntu uri gusarura ikawa nziza cyane yahishiriye ku giti.

Aya ni amacupa agiye atandukanye arimo imiti ivura amatungo. Iyo woroye itungo uba ugomba kurivuza kandi ukaryitaho mu rwego kugira ngo rikomeze rikubyarire umusaruro.

Iyi ni imwe mu miti ihabwa inyamaswa kugira ngo zirusheho kugira ubuzima bwiza maze na zo zinezerwe. Iyi miti ikaba ifunze mu makarito, mu ducupa duto ndetse no mu tubido.

Ibikarito birimo imiti igiye itandukanye ivura inyamaswa, ni byiza gupanga imiti mu buryo bwiza kandi bwizewe kugira ngo uje kuwugura ahabwe uwo akeneye kandi adatinze.

Amoko y'imiti y'amatungo, iyi miti irifashishwa cyane cyane n'aborozi aho bayigura maze bakayiha amatungo yabo akabasha kororoka nta nkomyi.

Ubu ni bwoko bw'imiti ifunze mu makarito agiye atandukanye, iyi miti ikaba ihabwa abantu bafite amatungo kugira ngo babashe kuyitaho kandi amererwe neza.

Aya ni amwe mu moko y'imiti ahabwa amatungo, amatungo nayo akawunywa maze agakomeza kumererwa neza, turi kubona amacupa y'umweru ndetse n'ay'umuhondo yose agiye yometseho ibyapa.

Uyu ni umumama uhagaze mu musaruro w'ibigori byiza cyane. Hari ibyo yahunguye afite inete mu biganza nyinshi cyane kandi zishishe, inyuma ye hakaba hari ibimanitse mu buryo bugezweho.

Igihingwa cy'umuceri ushishe neza cyane ufite amabara y'icyatsi kibisi ndetse inete zawo zisa umuhondo, harimo umubyeyi wambaye imyenda y'umuhondo ndetse uteze agatambaro k'umutuku uri kugenda awusarura.

Ubuhinzi ni kimwe mu bintu bitunze abanyarwanda benshi cyane, aha turi kubona umumama ndetse n'umugabo we bari mu murima mwiza cyane urimo ingano, umugabo afite umupanga ndetse n'agacupa.

Umugabo wambaye ishatia ku magufi y'amakakaro irimo uturongo, akaba yambaye n'ipantaro, afite urugemwe mu ntoki ze, aho agiye kurutera, ni umurima urimo ibigori bigaragara nkaho bimaze kubagarwa.

Aba ni abamama bakora ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuhinzi, bakaba bari guca imyobo ngo bihingire ibihingwa byabo bigiye bitandukanye harimo; ibigori, imboga, urutoki ndetse n'ibindi.

Inka nziza cyane ziri mu ifamu, iyi famu ikaba irimo inka zorowe neza kandi zikaba zororewe ahantu heza, n'inka nziza cyane zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Abagabo babiri ndetse n'umwana bahagaze ahantu hari ibimera byiza cyane. Barasutamye bari kubisoroma. Bari kubyifotorezaho bishimye kandi banezerewe. Ni byiza ko nawe ukora ku buryo ubona ikintu kigushimisha.

Umusore wagize ubuhinzi umwuga, aha ni mu buhumbikiro bw'imboga ndetse n'imbuto, turi kubonamo imbuto zigiye zitandukanye, harimo iza avoka, amacunga ndetse n'ibindi. Afite mu ntoki akagemwe kakiri gato.

Umurima uri munsi y'umuhanda wa kaburimbo, ni umurima uteyemo imyumbati, ukaba waraharuwe kugira ngo utegurwe maze uzahingwemo ikindi gihingwa, ni umurima muremure kandi umeze neza.

Amoko meza cyane y'imboga ndetse n'imbuto. Turi kubonamo amoko agiye atandukanye. Inyanya zitukuraranye cyane n'izindi zidatukuye, urusenda, imineke, karoti, amacunga ndetse na kokombure.

Ibi ni bimwe mu bihingwa bihingwa kugira ngo byifashishwe mu gutegura amafunguro. Iki ni igihingwa cya tungurusumu cyangwa se ibitunguru, bikaba ari ingenzi kandi ari ingirakamaro ku ifunguro rya buri munsi.

Ibikorwa by'ubuhinzi byita ku bihingwa bitanga ibyo kurya. Ni urutoki rwiza cyane ruri mu buso bunini ndetse n'undi murima utunganyije, bagiye guhingamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi ni kimwe mu bintu bituma abaturarwanda babona ibyo kurya. Ubu ni ubuhinzi bw'urutoki ni urutoki rushishe ndetse insina imwe ikaba iriho igitoki, bigaragara ko kigiye kwera.

Ikigori cyiza cyane kinini kirambitse hasi mu byatsi, biragaragara ko iki kigori kitaweho kuva bakigitera bakakibaga maze bakagisarura kimeze neza, ni byiza guhinga ukurikije amabwiriza.

Ibihingwa bitanga ibyo kurya mu Rwanda birahingwa hose. Aha turi kubonamo ibyiganjemo iby'imbuto nk'ipapayi, amarongi ndetse n'imyembe. Bikaba biri mu murima umwe.

Imbuto ni nziza cyane ko twazifata mu mafunguro yacu ya buri munsi, uyu ni umuntu ufite umwembe, karoti, puwavuro ndetse n'igitunguru mu ntoki ze, akaba ahagaze ahantu hacururizwa ibiribwa.

Ibi ni ibihingwa byiza cyane kandi ubona ko bishishe, hari: ibihingwa by'imyumbati, urutoki ndetse n'ibigori, hakaba n'ibiti birebire bivamo ubwatsi bw'amatungo.

Mu Rwanda dukwiriye kubungabunga kandi tugafata neza amashyamba. Aha hari ibiti, kimwe cyaguye hejuru y'umugezi. Amashyamba ni kimwe mu bihingwa u Rwanda ruhinga kandi rukabungabunga.

Aha hantu heza cyane hateyemo ibimera bigiye bitandukanye, tukaba turi kubona ibiti birebire by'inganzamarumbo bifite amashami ariho, amababi y'icyatsi kibisi ibi biti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi. Turi kubona ibiti birebire cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, tukabonamo insina zikoze agatsiko ndetse n'ibindi bihingwa. Aha haratuwe.

Aha ni ahantu hari ibimera byinshi cyane ndetse hakaba harimo n'ubworozi bw'amatungo, turi kubona ishyamba ryiza cyane rikorerwamo ubukerarugendo, harimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi aho ushobora kuza nawe kwitemberera.

Iyo tugenda mu ishyamba tugenda gake kandi tunezerewe, aba ni abantu barimwo bagenda mu gahanda gato kari mu ishyamba ririmo ibiti bikizamuka bitanga umuyaga.

Ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti ndetse n'ibimera bigiye bitandukanye. Harimo ibiti by'inganzamarumbo bifite amashami agandaye, hakabamo n'ibindi bigufi bifite amababi akabakaba hasi.

Umusozi muremure uhanamye, uriho amashyamba, arimo ibiti byinshi cyane. Munsi mu mubande hakaba hatuwe n'abaturage. Aba baturage bakaba bafite umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari n'ibiti biri mu ngo.

Ishyamba ryiza cyane rifite ubuso bugari hakaba harimo ibiti bigiye bitandukanye, hari iby'inganzamarumbo birebire hakaba n'ibindi bigufi bigiye bifite amababi akabakaba hasi, ni byiza ko twabungabunga amashyamba.

Ababyeyi bateruye abana babo ndetse n'abandi bafite abana bazi kugenda, bahagaze ahantu mu ruhumbikiro rw'imyaka, bose bafite ingemwemu ntoki, barishimye kuko barahumbitse bagize amahirwe ziramera.

Umugabo wambaye ikote rya kositimu rinini afite agaseke mu ntoki, ari kugenda asarura imbuto ze yihingiye, ni umurima muremure kandi ubona ko weze mu buryo bw'intangarugero.

Ubuhinzi bwashyizwemo imbaraga, mu rwego rwo kugira ngo abaturage babashe kubona ibyo kurya. Aha hari umubyeyi ufite ingemwe z'amashu, akaba azifite mu ntoki. Yambaye agapfukamunwa. Amaze kuzigura amafaranga ibihumbi bitanu y'amanyarwanda.

Iri ni isoko ricururizwamo imboga ndetse n'imbuto, hakaba harimo amoko agiye atandukanye nk'intoryi, pavuro, inyanya, amashu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uturima tw'imboga ni tumwe mu byo leta yashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Ibi byabaye mu rwego rwo kugira ngo hakumirwe kandi hacibwe indwara ziterwa n'imirire mibi, zagaragaraga mu baturarwanda.

Ibihingwa bigiye bitandukanye bihingwa mu Rwanda biba bifite ubusobanuro kandi bifite n'umumaro. Uyu ni umurima mwiza cyane uhinzemo inanasi zisa neza kandi zeze.

Ubu ni bumwe mu buryo bugezweho bwo kuvomerera imyaka ndetse n'ibiti kugira ngo bikure vuba igihe icyo ari cyo cyose, haba mu mpeshyi cyangwa se imvura igwa. Ni byiza guha imyaka aya mazi.

Umugabo ufite umupira uri kuzamo amazi, ari kuhira ibihingwa kugira ngo bigire imibereho myiza. Aha ni ahantu hakorerwa ubuhinzi kandi buteye imbere, butanga ibyo kurya ndetse n'amafaranga ku babukora.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi hakaba harimo abantu batandukanye bari kugenda buhira imyaka yabo. Ni byiza kuhira imyaka kuko no mu gihe k'impeshyi iyo ukoresheje uburyo bwo kuhira ubasha kwezi.

Umugabo n'umugore babanye mu buryo bushimishije. Bakaba bahinga ibigori ndetse n'imboga n'imbuto. Aha ngaha rero bari kuvomerera imbuto ndetse n'ibigori byabo kugira ngo byere neza.

Ibikorwa by'ubuhinzi bikorwa mu buzima bwa buri munsi, imyaka iba ikeneye kwitabwaho, iyo umaze guhinga ni byiza ko ugaruka ukabagara, aha hari umugabo uri kubaga imyaka yazanye igicupa kirimo amazi yo kunywa.

Ubu ni bumwe mu budasa, ubumenyi ndetse n'ubuhanga bw'abantu bize ibijyanye n'ubuhinzi aho bazanye iterambere mu Rwanda, aho batwubakira ibyuma twifashisha tuvomerera ibihingwa kugira ngo bimere neza.

Umumama wambaye ishati akaba acyenyeye igitenge. Afite igikoresho kizwi nka rozwari mu ntoki. Akaba ari kugenda avomerera imbuto ndetse n'imyaka iri mu murima kugira ngo imererwe neza.

Ubuhinzi bwongerewemo ikoranabuhanga mu rwego rwo kugira ngo tubashe kubona umusaruro uhagije cyane ko abaturage bakeneye ibyo kurya kandi bihagije. Uyu ni umugabo uri kwesitara ibyuma bizajya byifashishwa mu kuhira imyaka.

Uyu ni umusore wambaye imyenda ya oranje. Akaba afite umupira w'ubururu. Arikugenda yuhira imyaka myiza cyane iri mu murima kandi myinshi. Hirya ye hakaba hari ibiti bibiri by'inganzamarumbo.

Umugabo wambaye agapira ka oranje, yambaye ipantaro ya kake yayizinze yambaye kamambiri, afite rozwari irimo amazi ari kugenda avomerera imboga ze kugira ngo zere vuba.

Abahinzi babigize umwuga usanga bafite uburyo bwo kuvomerera imyaka yabo, kabone n'ubwo haba bari mu mpeshyi, usanga bo bafite imyaka itohagiye bitewe n'uko basobanukiwe n'umumaro wo kuhira.

Iyi ni imisozi miremire kandi ihanamye, ikaba irimo ibiti byiza cyane ndetse hakaba hagaragara neza ndetse kuri iyi misozi hari abaturage bahatuye, bahatuye mu buryo budacucitse.

Ubutaka bukorerwamo ubuhinzi bw'ibiribwa ndetse bukaba bunatuwemo. Ni ahantu hari ikibaya kiza cyane gikorerwamo ubuhinzi bw'intoki. Hakaba harimo imiturire ariko idacucitse.

Iki ni igiti cyiza cyane giteye ahantu, bigaragara neza ko ari ahantu hari umugezi utemba kandi mwiza, hakaba hari ibimera, ikirere kirasa neza gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iyi ni imisozi miremire kandi iteyeho igihingwa cy'ikawa, kirashishe kimeze neza, gifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo. Mo hagati hagiye harimo ibiti birebire bikoze imirongo.

Ahantu heza cyane hateye ibiribwa ndetse biteye mu buryo bugezweho, ni imisozi ihanamye ariko bigaragara ko yera. Hatuyeho abantu batari benshi kuko hagati y'inzu imwe n'indi hagiye harimo intera.

Inka ziri mu rwuri ni inka zororewe ahantu heza cyane kandi nazo nziza, ni amafirizone yorowe aroroka maze amera neza, akaba atanga umukamo utubutse.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bukomeje guteza imbere abaturarwanda. Aha hari inkoko zikiri ntoya kandi nyinshi, nyirazo rero yafashe umwanzuro yihangira umurimo, none uyu murimo uri gutuma akirigita ifaranga.

Aha ni ahabera ubworozi bw'inka, hakaba harimo abasore bafite ibicuba ndetse n'ibyansi, bari gukama, umwe akama agasuka mu cyansi n'undi agakama agasuka mu cyansi.

Uru ni urwuri rurimo inka z'amoko agiye atandukanye, harimo izifite amahembe n'izitayafite, ni urwuri rurimo ibyatsi byiza cyane kandi bitoshye, inka zirimo zirashishe kandi zirishimye.

Uru ni urwuri rwakusanyirijwemo inka nziza cyane z'inyambo, hakaba hari abaveterineri babigize umwuga, bakaba bazikurikirana kandi bakazitaho. Ni urwuri rurimo ibyatsi byiza bitoshye, ikirere kikaba kiri gusa ubururu ndetse n'umweruru.

Ubworozi ni imwe mu mishinga isigaye ikorwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Aha turi kuhabona inka nziza y'ifirizone ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara. Ikaba yororewe ahantu heza cyane hasakaye.

Ubworozi bugiye butandukanye iyo bukozwe kinyamwuga buteza imbere uwabukoze. Ubu ni ubworozi bw'inkwavu hakaba hari abaveterineri baje kuzisuzuma ndetse no kuzitaho.

Ingurube nka zimwe mu ndwara zikunze gukwirakwiza umwanda mu gihugu. Bafashe ingamba ko zigomba kororwa ariko zikororerwa ahantu hasa neza kuko nazo zigira umusaruro.

Inka nziza cyane, ziteraniye ahantu hamwe. Aha hari aborozi ndetse n'abahinzi, bikoreye umwuga maze, uragenda urabahira. Hari inka nziza cyane z'inyambo ziteze amahembe.

Aha ni hamwe mu hakorerwa ubugenzuzi bw'imbuto, turi kubona ibigori byiza cyane byakuwe ku bitiritiri, hakaba hari umugabo bigaragara ko ari inzobere mu gusuzuma imbuto, hari utwana ndetse n'abandi bagabo bari kumureba.

Ibishyimbo byiza cyane biri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, hari ibiganza by'umuntu ukuze uri kugenda abirobanura kugira ngo akuremo imbuto, maze agende ayitere izagire umusaruro.

Abaganga b'amatungo ni bamwe mu bantu bahora bakora ubushakashatsi kandi bakaba ari bamwe mu bantu batagira ubwoba kuko usanga amatungo menshi cyane agira amahane ariko kandi bo ntibayatinye.

Aha ni ahantu hari utubido twinshi cyane tw'umweru. Utu dubido tukaba tumeze neza twose, nk'uko bigaragara harimo amata. Hakaba harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru, urimo kugenda adutondeka neza.

Inka nziza cyane yabyaye. Yamaze kubyara ikaba iri kwita ku kanyana kayo. Yabyariye mu rwuri ahantu hari ibyatsi bishishe kandi bisa icyatsi kibisi bimeze neza.

Uyu ni umuganga uvura amatungo, amaze kubyaza inka. Iyi nka yabyaye ibazwe. Abaganga bakora uyu murimo baba bazi ibyo bakora kandi babikora kinyamwuga nk'ubu abyaje inyana nziza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iri ni ivuriro ry'amatungo, hakaba harimo inzobere mu bijyanye no kuvura amatungo, bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bafite ibipapuro bose bari kwitegereza ndetse bakora igenzura.

Uyu ni umukobwa ukora akazi k'ubuvuzi bw'amatungo akaba ari gutera inanga inka, yambaye impuzankano y'ubururu, akaba yambaye ingofero y'ubururu ndetse ari gukora mu ntuze y'iyi nka.

Ubu ni ubuvuzi bw'amatungo. Tukaba turi kubona abaganga bavura inka, aho baje kuzitera inkingo. Bakaba bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ubururu. Hari inka nziza z'inyambo ziteze amahembe.

Abavuzi b'amatungo bambaye impuzankano zisa ubururu, bakaba bambaye ingofero bakaba barimo batanga inkingo zigiye zitandukanye zihabwa inka, kugira ngo bazirinde kuba zahura n'uburwayi.

Abaganga b'amatungo bita ku matungo yose. Aha hari abana batatu umwe akaba afite imbwa yashyizeho ikiziriko, nk'uko biri kugaragara agiye kuyiteza urukingo, kugira ngo itazasara.

Abavura amatungo babikora bwa kinyamwuga. Aha hari umuvuzi w'amatungo wambaye impuzankano y'ubururu uturindantoki tw'ubururu, akaba ahagaze ahantu hari inka nyinshi cyane zifite amahembe maremare meza.

Aba ni abavuzi b'amatungo. Bakaba bameze nk'abari kwihugura. Bafite ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse hakaba hari n'inyamaswa bari kwigiraho. Bose bambaye impuzankano, uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa.

Inka nziza cyane ziri mu rwuri. Ni inka zifite amahembe maremare kandi meza, zikaba ziri mu rwuri rushishe bigaragara ko ari ho zororerwa kandi hakaba hari n'ibiti birebire bimeze neza cyane byifashishwa havamo ubwatsi bw'izi nka.

Abavuzi b'amatungo ni bamwe mu bantu baba bafite ubuhanga kandi batagira icyo batinya. Ndi kubona ibiganza biriho uturindantoki tw'ubururu, bari kugenda bagerageza kuvura inyamaswa iryamye hano.

Muri parike dukunze gusangamo inyamaswa zigiye zitandukanye, nazo iyo zihari zirasabana aha turi kubona nk'ingeragere aho imeze neza cyane ubona ko iri kwahagira.

iyi ni pariki y'Akagera. Irimo inyamaswa z'amoko agiye atandukanye ziba ziryamiye mu bwatsi bwiza ndetse ziyumvira n'umuyaga ukomoka ku biti byiza cyane birebire biba birimo.

Inyamaswa yiryamiye hejuru ku giti, ikaba ifite ubufindo ndetse n'ubumaji. Iraryamye imeze nkaho isinziriye ariko iyi nyamaswa ni inkazi ku buryo uramutse uyikozeho, ihindukira rimwe ihita ikurya.

Iyi ni inyamaswa iratontoma ariko ntiryana. Ihagaze ahantu irasamye, ikaba ifite ibyuya byinshi cyane. Ni byiza ko inyamaswa nk'izi zibona abantu bakina, kugira ngo nazo zibashe kugira ubumuntu.

Ishyamba ririmo inyamaswa zigiye zitandukanye, iyi ni intare yiryamiye mu giti hejuru ikaba yishimye cyane. Inyamaswa iyo ziri mu ishyamba, ziba zishimye kandi zikishimira kubona abantu.

Muri pariki y'akagera usangamo inyamaswa zigiye zitandukanye, izi ni imvubu zororotse, zikaba ziri mu mazi nazo ziri kwiyongera, imbere yazo hakaba hari ibiti byiza cyane bitohagiye.

Imvubu ni zimwe mu nyamanswa ziba muri parike y'akagera, imvubu ni inyamanswa zikunze kuba zibyibushye kandi zikunze kwibera ahantu mu ishyamba aho zitavogerwa kuko ziba zifite ibigango byinshi.